Abantu benshi baje kuvoma ku mugezi buri wese afite ikivomesho, barimo barabyigana, imigezi ni ibiri, kandi ibivomesho byabo ni byinshi birenze bibiri, gusa ni byiza ko bategereza umwe akavoma yasoza undi akabona gukurikiraho nawe akavoma.

Umwana muto mama we aramuteruye barimo baramutera urushinge, gusa ntabwo ari kurira nubwo afite ubwoba bitewe nuko yizeye ko kuba ari kumwe na mama we nta kibazo na kimwe yagira, uyu mwana kandi afite n'amasaro mu musatsi we yiganjemo icyatsi n'umuhondo.

Mu cyumba cyabereyemo inama; hari hitabiriye abayobozi batandukanye, bagiye bashinzwe imirimo itandukanye, harimo na minisitiri w'ubuzima Nsannzimana Sabin. Inama irangiye hari umugabo w'inshuti ye bakoranye bose bakiri abaganga aje aje kumusuhuza, bari bahuriye hamwe bari kwiga kuntu barwanya icyorezo cyateye mu Rwanda cyitwa mabaga.

Umukobwa ukiri muto, wambaye itaburiya, bigaragara ko ari umuganga, afite imisatsi myiza yaboheye inyuma ndetse afite n'igikoresho abaganga bakoresha, bari kumva uko umutima uri gutera, arimo arasuzuma umwana uri mutoya cyane, uri kumwe na mama we kugira ngo bumve uko uyu mwana amerewe.

Kwa muganga umukobwa ufite imisatsi iboshye wambaye agapfukamunwa yaje kwivuza, icyumba ari kwivurizamo harimo abaganga babiri bose bambaye imyenda y'akazi, bambaye udupfukawa n'ibindi bintu bimanutse bimeze nk'ibikanzu ndetse n'utuntu mu mutwe, barimo baramupima ngo barebe ukuntu umutima we uri gutera.

Abana bane, bose bari gukaraba intoki, munsi yabo hari base, aho amazi bari gukaraba ari kujya, haba undi muhungu mukuru urimo arabasukira amazi avuye mu gikombe, abana na bo bagakaraba. Barishimye bose, bari guseka, bigaragara ko babayeho bishimye.

Ku ivomero haje abantu benshi cyane, umwe afashe ku cyuma, icyo bazamura banakimanura kugira ngo amazi aze, hariho ikijerekani ni cyo bari kuvomera, nicyuzura iruhande rwacyo hariho n'akandi kajerekani ka ritiro eshanu na ko barahita bakavomera.

Abana benshi barimo barabyiganira ku mugezi, bose bashaka kunywa amazi, nubwo nta n'umwe ufite igikoresho arakoresha, buri wese ari gukaraba intoki kugira ngo anyweshe intoki ze. Ibi si byiza cyane kuko kubyigana gutya hari abana baba badafite imbaraga ku buryo umwe ashobora no kuhatakariza ubuzima.

Ivomero ryubakishijwe sima rifite imigezi ine, umwana umwe yaje kuvomera mu ndobo, amaze kuyuzuza arimo arayikorera, gusa kubera imbaraga ze ari nke biramunaniye, undi mugenzi aje kumufasha kugira ngo amukorere iyi ndobo, bityo abashe kugezayo amazi iwabo mu rugo.

Umwana ufite ibinika y'ubururu, azaniye mukuru we amazi urimo arakarabira mu ndobo nayo isa ubururu, ari gukaraba isabune, undi mwana nawe akajya amusukiraho amazi, avuye mu bwiherero babigize umuco ko igihe umuntu avuye mu bwiherero agomba gukaraba intoki n'amazi meza, n'isabune.

Icyumba kinini cyane kirimo intebe nyinshi n'ameza, hitabiriye abantu benshi baje mu nama, baje kumva icyo uyu munsi bashaka kubabwira, cyane ko insanganyamatsiko y'uyu munsi yibanze ku bigendanye n'ubuzima, kandi na bo mu nshingano zabo harimo kwita ku buzima.

Umusore w'umuganga yambaye itaburiya y'umweru n'umupira w'umweru, yambaye naga, imbere ye ibikoresho arimo arakoresha, arimo aragenda apima abantu indwara zitandukanye cyane cyane diyabete, ageze ku mukecuru arimo aramuhanagura ku rutoki rwe kugira ngo amutere agashinge afate amaraso apime arebe ko nta diyabete arwaye.

Abagore benshi bambaye imipira y'umweru bafite n'abana bambaye imipira isa oranje, bose barimo barahabwa amata, abari kubaha amata na bo bambaye imipira isa oranje, bisa nk'aho baje kwigisha aba babyeyi ukuntu bakwiye kujya baha abana babo indyo yuzuye ndetse harimo n'amata.

Abagabo n'abagore bose bahagaze imbere y'ibitaro, barimo barifotoza bisa n'aho bari baje kuganira, gusa nyuma y'ibiganiro akenshi bitewe n'uko bamwe baba baraza gutanga raporo, biba ngombwa ko bifotoza, kugira ngo muri raporo bashyiremo n'amafoto nk'icyemeza ko koko bahuye.

Ubusitani buturanye n'ibitaro habereyemo inama aho bateye ihema bakadekoresha ibitambaro bifite amabara agize idarapo ry'u Rwanda hitabiriye abayobozi batandukanye ndetse harimo n'umugore w'umupolisi ufite ipeti.

Umugabo arimo arakaraba kuri kandagira ukarabe ikozwe mu biti, hejuru bakahatambikaho akajerekani. Bavuye mu bwiherero, ibi abantu bose bakwiye kubigira umuco kuko igihe cyose uvuye mu bwiherero ukwiye gukaraba intoki, kugira ngo utazarwara indwara ziterwa n'umwanda.

Inyubako nini cyane zubatse mu buryo butangaje, ziragerekeranye, imbere hari ikindi kintu kimeze nk'ikizeru, ku buryo washyiramo n'amazi, ahandi ku mpande hari ibyuma byinshi, bisa nkaho ibikorwa byo kubaka batarabisoza, bagiteganya kwagura iyi nyubako.

Uyu munsi ku bitaro habereye yo amahugurwa, yari yahuje abanyabuzima bo mu mirenge itandukanye, ndetse bahuye n'abaganga bakuru, aho bari bari kubaha amahugurwa ku bigendanye n'ukuntu barushaho kumenya uko batanga ubutabazi bw'ibanze, mu gihe umuntu bitaraborohera guhita bamugeza kwa muganga muri ako kanya.

Mu nteko y'abaturage yabaye uyu munsi batumiye muganga kugira ngo abe ariho baganiriza, usanzwe buri gihe habaye inteko batumira abantu bo mu ngeri zitandukanye kugira ngo babaganize; nk'abo mu mutekano, mu buzima, mu nganda, mu bucuruzi, mu bikorwa byose bigiye bitandukanye.

Mu cyumba cy'inama gusa munsi abatumiwe benshi ni abayobozi ni nabo bitabiriye kugira bahagararire abaturage bayoboye, gusa muri iyi nama harimo abayobozi benshi bandi bakuru ni nabo bagiye kuganiriza aba bayobozi bandi bafite insanganyamatsiko zigiye zitandukanye, nizo bari kuganiraho.

Umugabo wambaye umupira ujya gusa nk'umutuku ari kumwe n'akana na ko kambaye umupira ujya gusa nk'uwe, akana bagashyize ku munzani kugira ngo barebe ibiro gafite. Ni byiza ko abana bahabwa indyo yuzuye ndetse bakitabwaho, kugira ngo ubuzima bwabo bube bwiza bityo bakure neza.

Bahuriye mu nama baherukanaga kera ntago bari bazi ko buri wese yabaye umuyobozi, barishimye cyane kuko baherukana bakiga pirimeri ntago bumvaga ko bazavamo abantu bakomeye. Iteka iyo umuntu akiriho kandi afite ubushake bwo gukora, agera ahantu heza cyane nawe ubwo atatekerezaga.

Mu cyumba cy'inama aho abayobozi bakorera hamanitsemo idarapo ry'u Rwanda, imbere hari umugabo umwe wambaye kositimu y'umukara urimo arabwira abantu, abandi nabo baramukurikiye kugira ngo baze gutanga ibitekerezo, bityo baze gufata umwanzuro uhamye kandi uragira impinduka nziza ku buzima bw'abanyarwanda bose.

Kwa muganga abantu benshi baje kwivuza harimo n'abaje gukingiza abana, harimo n'undi mugabo ufunze wambaye impuzankano y'abantu bari muri gereza, uko baba bambaye nawe waje kwivuza, imbere yabo hari umugabo afite ibintu ari kubabwira, gusa uyu mugabo ntabwo ari umuganga kuko nta mwambaro w'akazi yambaye kandi abaganga mu kazi baba bambaye impuzankano.

Imbonerahamwe yanditsemo amagambo menshi atandukanye, amagambo arimo yose agendanye n'ibijyanye n'ubuzima, uko bakwiye gukingira indwara, ndetse n'indwara zigiye zitandukanyekanye abantu bashobora kurwara.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako, harimo abagabo n'abagore, bose bahagaze hamwe, bari gufata ifoto y'urwibutso, bari baje mu nama bari kuganira ku bintu byinshi bitandukanye, babisoje bahitamo gufatira hamwe ifoto y'urwibutso.

Icyumba cyabereyemo inama, abantu benshi bicaye imbere, harimo abagabo n'abagore bose bambaye udupfukamunwa, ndetse bari gutegereza ko umwe arangiza kuvuga agahereza undi, bose bafite insanganyamatsiko imwe, nibyo baje kuvuga, kugira ngo babibwire abaje bashaka kubumva.

Icyumba kinini, cyabereyemo inama, hitabiriye abantu benshi, imbere bahateye intebe ndetse bagenda bashyiraho n'udupapuro turiho amazina y'abantu bagiye gukurikiraho babaganiriza. Bahashyize n'amazi ndetse impande ya buri ntebe, hariho na microphone, ku buryo umuntu uraba ari kuvuga, arajya uvuga n'abari inyuma bose bakamwumva.

Umubyeyi wambaye imyenda y'igitenge ari kumwe n'abana benshi bajya kungana bisa nk'aho ari inkurikirane, aba bana bose ni abe urabona ko bameze neza, abitaho kandi akanabagaburira niyo mpamvu bose bakuze kandi bafite ubuzima bwiza.

Abagore batatu baje ku ivomero, ariko uyu mugezi kuwuvomesha biragora, kuko biba bisaba ko bamwe bagenda bagukururira icyuma nawe ukavoma, urumva ko umuntu yijyanye ari umwe kugira ngo abone amazi byamugora, byamusaba imbaraga nyinshi.

Umwana wambaye agakanzu k'umutuku, arimo arakaraba mu ntoki, ku ivomero hariho n'ikindi cyapa cyanditseho Wasac na World vision, bisa nkaho ari bo bubakiye abantu baturiye iri vomero hano, kugirango bajye babona amazi byoroshye bitabasabye kujya kure.

Kwa muganga abaganga batatu harimo abagore babiri bambaye udupfukamunwa, n'amashati asa umweru n'amapantaro asa icyatsi, hari n'undi mugabo bakorana wambaye itaburiya y'umweru, umugore umwe arimo aratera umurwayi urushinge, umurwayi na we yambaye agapfukamunwa ndetse aritonze, ategereje ko basoza kumutera urushinge.

Umubyeyi avuye kuvoma yikoreye injerekani, abana be na bo bavuye kwiga, yagiraga ngo abana ni bava ku ishuri babone amazi yo gukaraba bityo bajye gukora imikoro baba babahaye ku ishuri bamaze gukaraba na we ari kubatekera.

Abadamu benshi ndetse n'abakobwa bari mu cyumba kimwe, aho abana babo bigira, bari baje kubaganiriza icyo bakwiye gukora, kugira ngo abana babo biga mu mashuri y'incuke bagire ubumenyi, ndetse bakure neza, bamaze kubahugura nabo babaha umwanya ngo babe baganire.

Abagore batatu, babiri bahagaze ku mpande, undi araryamye, bamushyizeho igitenge ndetse hariho n'akandi gakoresho kari ku nda ye, uyu mugore uryamye aratwite, bari kumva ko umwana ameze neza mu nda bityo bamenye niba nta kibazo kirabaho mu gihe araba arimo arabyara.

Umugabo wambaye ikositimu n'umugore wambaye ikanzu bose barahagararanye, inyuma yaho hari ibyapa byanditseho amagambo, ibindi hariho amafoto y'abana bishimye bari guseka n'andi umugore uri guseka afite umwana, umwana we nta musatsi afite.

Umwana muto arimo arakaraba mu ntoki n'isabune, umubyeyi we afite ijage isa icyatsi irimo amazi meza, arimo aramusukiraho umwana nawe agakaraba, ni byiza ko uyu muco tuwutoza abana bose, akamenya ko igihe asa nabi mbere yo kurya, igihe avuye ku bwiherero, agomba kubanza yakaraba mu ntoki n'amazi meza n'isabune.

Mu cyumba cyabereyemo inama, hatumiwemo abaganga benshi, ndetse na Minisitiri w'Ubuzima, niwe urimo arabaganiza, intego y'uyu munsi, ni ukuntu bakwita ku buzima bw'umubyeyi utwite, ndetse n'umwana. Ibi ni ingenzi cyane, kuko abaganga bagira uruhare rukomeye, mu kuba umwana yagira ubuzima buzima, we n'umubyeyi we.

Inyubako ebyiri, zubatswe zikiri nshyashya, gusa ni ntoya, bisa nk'aho nta bintu byinshi byahakorerwa, hanze hari umugabo urimo arahubaka n'ubundi, haracyarunze amatafari, ntabwo barasoza kubaka neza.

Abana bane bose baje kuvoma, bari kuvoma mu mazi atemba ku migezi, gusa aya amazi ntabwo asa neza, ku buryo wayakoresha nko koza ibyombo, guteka ndetse n'indi mirimo isaba amazi meza, kuko aya mazi yahita agutera indwara.

Kwa muganga, abaganga batatu bose bicaye hamwe barimo baraganira banakora akazi, babiri muri bo hari amafishi bafite bari kugenda buzuza ibiri ku mafishi, bakabyuzuza mu bitabo, undi mugenzi wabo we akazi ke yagasoje, arimo arababwira inkuru.

Abana batandatu, bose bambaye impuzankano y'ishuri, baje kuvoma bamwe mu ndobo abandi mu tujerekani, barimo barakora isuku mu mashuri yabo, kugira ngo bajye bigira ahantu hasa neza. Ni byiza ko abana bose batozwa uyu muco, kugira ngo bakure bafite isuku.

Ku ivomero ryubakishijwe sima, hateyeho imigezi ine, umugezi umwe urimo uravomwaho n'umugabo wazanye ijerekani, uyu mugabo afite uruhara, ndetse yambaye imyenda imeze nk'ikozwe mu bitenge, yaje kuvoma, imbere ye hari n'akajerekani ka litiro eshanu.

Abana bane baje kuvoma, haba haje undi mukobwa na we uturutse mu modoka, yari ashaka kunywa amazi no gukaraba mu ntoki, arabanza afasha aba bana abazamurira icyuma bazamura kugira ngo amazi aze, kugira ngo babanze bavome bajyane amazi, maze na we abone gukaraba.

Icyumba kinini cyabereyemo inama hitabiriye abantu benshi cyane barimo ingeri zitandukanye; nyuma y'uko bari bamaze kwiga ku byabahuje bahisemo gufata ifoto y'urwibutso, kugira ngo baze kubona n'uko bagenda babi positinga; ku bantu bakunda gupasitinga.

Umugabo wambaye igitenge yakizirikiye mu ijosi, afite amasashi n'ibindi bintu abishyize byose muri rigori n'iho arimo arabijonjorera, afite imisatsi myinshi isa nabi uko bigaragara afite ikibazo cyo mu mutwe ndetse yambaye n'ibirenge, ni byiza ko ajyanwa kwa muganga akavurwa hakiri kare.

Abagore batatu barimo baraganira n'abakobwa babiri, bigaragara ko bose hari inshingano babahaye bahuriyemo bityo bakaba bari kuganira uburyo bazazikora neza kandi bigatanga umusaruro mwiza cyane.

Abagabo babiri umwe, yambaye ibintu byacitse bisa nkaho yambaye ubusa, afite ibisatsi byinshi cyane n'ubwanwa bwinshi cyane, uko bigaragara ni umusazi. Undi wambaye neza arimo aramusuhuza bisa nkaho yamugiriye impuhwe ku buryo bikunze yanamujyana kwa muganga bakamuvura agakira.

Mu cyumba cy'inama, abantu benshi cyane bitabiriye, harimo ingeri zose ari abakuze, ari abato, ari abagabo ari abagore, bose bitabiriye kandi barakurikiye, nta n'umwe urangaye, nta numwe usinziriye bose bari kumva ibyo uri imbere yabo arimo arababwira, ni byiza cyane gukurikira kugira ngo umenye neza icyo bashakaga kubabwira.

Abagore babiri, umwe ateruye umwana yaje kumuvuza, undi ni umuganga amaze kumupima umuriro, arimo aramwereka ibipimo basanze afite. Uyu mugore kandi ufite agapimo k'umuriro afite na telefone bisa nkaho ibyo ari gukora ari kugenda akurikiza amabwiriza ari kubona kuri telefoni.

Umugore wikoreye igitebo kinini, kirimo ibijumba hejuru yarengejeho imigozi, iyo abona atazongera guhinga ayizaniye amatungo ye ngo ayirye, afite n'isuka bigaragara ko nibwo akiva mu murima, uyu mugore kandi ntabwo yari yakaraba kubera ko arakarara ari uko asoje akazi kose.

Umugabo wambaye ishati y’ubururu ahagaze imbere y'abantu benshi bisa nk’abaje mu munsi mukuru, inyuma yabo hari igishushanyo kinini cyane kirimo ingagi. Aha ngaha ni mu Kinigi akenshi abantu benshi bahateranira baje kwita ingagi izina.

Umubyeyi iyo ufite umwana mwiza cyane w'uruhinja, umwana ni mwiza, aseka neza, ntabwo aramera amenyo, mama we nawe arishimye cyane, bitewe n'uko ikintu buri mubyeyi wese aba yifuza, cyangwa se umugore n'umukobwa, ni ukubona afite umwana yibyariye.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, nta misatsi myinshi afite, yipfutse mu maso, arimo ararira. Uko bigaragara uyu mugabo afite ibibazo byinshi ndetse n'agahinda gakabije. Ibi ni ngombwa ko yaba afite umuntu bari kumwe, umuganiza, ndetse akanamuhumuriza, kugira ngo uyu mugabo agahinda ke gashire.

Abantu benshi cyane bahagaze hamwe, bamwe cyane cyane abahagaze imbere, bafashe ku gipapuro kiriho insanganyamatsiko y' munsi bari baje kwizihiza ndetse bose barishimye kuko umunsi wabo wababereye mwiza ndetse baninze ibintu byinshi bitandukanye, biyungura ubumenyi.

Mu cyumba cy'inama uyu munsi hitabiriye abagore benshi, iki cyumba k'inama giherereye kwa muganga kuko bashatse kuganiriza abagore baba baje gukingiza abana bari kugira ngo babereke uko bakwiye kwita ku buzima bwabo ndetse n'ubwabo bana, ni byiza kwita ku buzima bw'umwana we akiri muto kugeza akuze kugira ngo akure afite ubuzima bwiza.

Abantu batatu, bicaye hamwe, bicaye bakoze uruziga, iruhande rwabo, hari umuti bakaraba mu ntoki, kugira ngo umuntu yirinde indwara, bose bambaye udupfukamunwa, umwe muri bo bigaragara ko ari umuganga, ndetse bakaba bari kuganira, ku bibazo bigiye bitandukanye umuntu aba afite, kugira ngo bamenye n'uko bamuvura.

Abantu basabiriza ku mihanda, hari bamwe mbona nkumva nabagira inama ariko ntago n'ubundi ari nge wambere uba ubitekereje kuko baba bafite n'abandi babagiriye inama, nk'uyu mugabo ni muzima afite imbaraga ariko ni umunebwe, ntabwo ashaka kujya gukoresha amaboko ye, ahubwo arashaka kwicara hamwe akajya asabiriza, ibi ni umuco mubi.

Icyumba kinini, gitemo intebe eshatu, intebe ushobora kuba wayitambika ukaryama, cyangwa se ugakandagiraho, cyangwa se ukegama, wowe uyishyira mu buryo ushaka. Iki cyumba gisa neza, hasi harimo amakaro y'umweru, no hejuru igisenge ni umweru gifite n'amatara menshi, no ku rukuta hasize ibara ry'umweru.

Umusore ufite imisatsi itari myinshi cyane ariko itari mike, arasana imbere ya muganga arimo aramwereka iryinyo rye rifite ikibazo, muganga na we azanye ibikoresho agiye gukoresha muvura, yambaye ga z'ubururu, abaganga kenshi bambara ga kugira ngo bataza kugira imyanda bashobora gushyira mu kanwa k'umurwayi cyangwa se n'uburwayi umurwayi afite akaba yabwanduza aba baganga.

Umugabo ufite amenyo meza y'umweru, afite ubwanwa, arimo araseka ndetse afite n'akadodo gafatishijwe ibiganza byombi, ubundi akagenda agacisha hagati y'amenyo kugira ngo akuremo imyanda iba yagiye ifatwa hagati y'amenyo.

Umuhungu ufite amenyo meza cyane, asa umweru, arimo araseka, afite akadodo mu ntoki, aka kadoda akenshi gakoreshwa bari gukura imyanda iba yaragiye ifatwa hagati y'iryinyo n'irindi, kuko hari igihe uburoso bw'amenyo buba budahagije kugira ngo bukuremo iyo myanda. Kugira isuku y'amenyo ni ingenzi kuko bituma amenyo atangirika.

Umukobwa mwiza wirabura afite imisatsi myinshi cyane myiza cyane, afite n'amenyo meza arimo araseka, yatunze intoki yereka abantu uko amenyo ye asa, bigaragara ko ari kwereka abantu ko na bo bakwiye kujya bagirira isuku amenyo yabo maze na bo bakagira amenyo meza bakajya baseka neza.

Mu cyumba kinini cyane kirimo utubati twinshi, harimo n'intebe nyinshi, harimo n'ibimashini bitandukanye bigaragara ko ari kwa muganga, ndetse hasi hari amakaro, hejuru hakaba hateyeho n'amatara menshi cyane kugira ngo abari muri iki cyumba babe bafite urumuri ruhagije.

Abana bakiri bato bose bambaye impuzankano y'ishuri, bafite udukombe mu ntoki turimo amazi, bafite uburaso bw'amenyo, bose barimo baroza amenyo bishimye, ni byiza ko igihe umuntu amaze kurya yoza amenyo kugira ngo yirinde indwara zose zishobora gutera amenyo ye.

Ibikoresho bitandukanye byose bikoze mu cyuma, byifashishwa kwa muganga igihe barimo baravura abantu, bari kubabaga, barimo barakura amenyo ndetse bari kubadoda. Ibi bikoresho kandi bigira imimaro itandukanye, ntabwo byose bikora umumaro umwe, ahubwo bitewe n'igikenewe gukorwa, bahitamo igikoresho barakoresha.

Umu umusa ufite amenyo y'umweru afite akadodo mu ntoki, yakazirikishije ku ntoki ebyiri kugira ngo abone uko arajya agacisha hagati y'amenyo arimo arakuramo imyanda, impamvu amenyo ye asa neza ni uko na we ayagirira isuku na twe niko twagakwiye kubigenza kugira ngo tugire amenyo asa neza.

Abaganga babiri bambaye amataburiya n'udupfukamunwa, umwe ni umugabo undi ni umugore, barimo baravura umwana amenyo, umwana nawe yambaye agapfukamuwa k'umutuku ariko yakamanuye, abaganga barimo barareba ikibazo amenyo ye afite, kugira ngo naba ari ukuyakura bayakure, cyangwa se niba ari ugucukuka gusa bayahome.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, yambaye n'agafukamunwa k'umweru, yambaye n'amarinete abantu bakenera cyane bari muri labo, kugira ngo hatagira imyanda ijya mu maso yabo, arimo arandika ku gipapuro, imbere ye hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye agiye kuvanga, kugira ngo akore icyo yashatse gukora uyu munsi.

Abagabo bose bicaye ku ntebe z'ibyubahiro, bambaye neza, bimeze nkaho ari abacamanza, gusa abantu bambara gutya ni abo mu bihugu nka za Nigeriya, niho usanga abacamanza babo aribo baba bambaye gutya igihe baje mu manza.

Umugore ukuze cyane, yambaye amarinete y'umutuku, afite imisatsi myinshi ariko imisatsi ye yose yabaye imvi, yambaye amaherena, yambaye n'impeta, afite ikirahure mu ntoki, ari kunywa amazi, uyu mukecuru arakuze ariko imiti nakomeza kuyinywa neza arakomeza agire ubuzima bwiza.

Umugore bigaragara ko akuze ariko w'umusirimu cyane, ari gukora siporo kuko yita ku buzima bwe kandi arabizi ko imyitozo ngororamubiri ari ngombwa, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza no mu gihe kiwe ageze mu za bukuru.

Ifoto nini y'umuryango, harimo umukecuru harimo umugore harimo n'abana benshi bisa nkaho bahuriye hamwe baje gusura uyu mukecuru ni nyirakuru, abana kenshi iyo basuye ba nyirakuru baba bishimye cyane kuko nawe aba abakumbuye kandi abishimiye bagakina, bakarya, ndetse bakanaganira.

Umugabo ukuze cyane namwita ko ri umusaza bwe, ibitsike n'umusatsi byose byabaye imvi yicaye mu ibase barimo baramwoza kuko we ukuntu amaze gusaza nta mbaraga afite zo kwiyoza. Ibi ni ingenzi kuko baba bafite umuntu ubitaho kuko bo nta mbaraga baba bagifite.

Umugabo ukuze bigaragara ko ari umunyabwenge, yambaye amarinete imbere ye hari ikayi arimo arandikamo, uyu mugabo ari kwiga kandi aranigisha, yiga muri kaminuza nkuru, akigisha mu mashuri abanza.

Umugabo n'umwana barimo barakina umwana arishimye cyane bitewe nuko iyo ari kumwe na se nicyo gihe cya mbere aba yishimye, aba yumva aribwo buzima bwiza yifuza, uyu mugabo nawe arishimye cyane kubona akana ke kishimye, ahora iteka yifuza gukora icyatuma aka kana kishima.

Iteka iyo abana bari kumwe n'ababyeyi babo baba bishimye. Bikaba akarusho iyo bari kumwe n'ababyeyi b'ababyeyi babo. Ubwo ndavuga ba nyirakuru na ba sekuru. Aba bana bagiye gusura nyirakuru na sekuru, ababyeyi babo nabo barabaherekeza. Barishimye bafite akanyamuneza bari bakumburanye.

Umugore ukuze ari kumwe n'undi musore ufite ubwanwa bwinshi w'umuganga wambaye impuzankano y'akazi, mu ijosi yambaye n'igikoresho bakoresha bumva ko umutima utera neza cyangwa se ibindi bice by'imbere mu mubiri, uyu mugore ararwaye gusa atangiye kugarura imbaraga.

Umugabo yaje kwivuza arimo arafashwa n'umuganga w'umukobwa ukiri muto, uyu mugabo yari yarahuye n'ikibazo mu ngingo ze atabasha gutambuka bitewe n'uko yakoze impanuka, ariko bitangiye kuza ahubwo ari kugenda afashe ku byuma ariko gake gake ni rwo rugendo mu minsi mike araba yakize.

Umugabo ufite imvi nyinshi ariko bigaragara ko adakuze cyane ari uko yagize imvi hakiri kare, yaba mu musatsi we no mu bwanwa hose huzuyemo imvi, arimo arakora siporo, ari kuzikoreshwa na muganga, bitewe n'uko yari amaze igihe afite ikibazo mu maboko ye none muganga arimo arazimukoresha, kugira ngo barebe ko azishobora, ndetse anakire vuba.

Umukobwa usutse imweri yambaye imyenda y'akazi y'abaganga ndetse ari kumwe n'umugabo ukuze udafite imisatsi gusa mu bwanwa bwe harimo imvi nyinshi afite n'inkoni, uyu mugabo arabyibushye, bisa nk'aho yaje kwa muganga, uyu mukobwa akaba ari kumugira inama z'ibyo yakora kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye ikabutura n'amasogisi maremare n'inkweto zifunze, arimo arakina n'akana gato k'agakobwa, gafite imisatsi iboshye, gafite na baro ya basket, bose barishimye, barimo barakina. Ni byiza ko abana bakina n'ababyeyi babo kugira ngo bakure batabatinya kandi banabisangamo.

Abagore babiri, umwe ni umuganga arimo arasuzuma mugenzi we, yamushyizeho ikintu bambika abarwayi ku kuboko bakabapima bari kugira ngo barebe niba umutima wabo utari gutera nabi cyangwa se ngo umuvuduko w'amaraso ube uri hejuru cyane. Umurwayi yarishimye, nubwo yicaye mu kagare bisa nkaho atangiye koroherwa.

Kurwanya Kanseri birashoboka igihe utarayandura ndetse ni byiza cyane ko ubanza ukamenya uburyo ushobora kuba wayirwaramo ukamenya aho uhera wirinda, ni byiza ubu bukangurambaga kubukwirakwiza ahantu hose ndetse n'abantu bose bakamenya uko bakwiye kwitwara byaba na ngombwa aho bisaba inkingo bakikingiza.

Abakobwa benshi bose bambaye udupira tw'umweru, hashushanyijeho ikintu kiri mu ruziga, hakaba hagati harimo ibara ry'umuhondo, uretse umukobwa umwe ni we wenyine utambaye umupira usa nk'uwabo, bose bafite udupapuro dukase nka mpande enye ku buryo hagati harimo amasura yabo agaragara neza.

Uburiri busashishijeho ikiringiti cy'umweru, ndetse n'amashuka y'umweru, ku kiringiti hariho akapa kagaragaza ko iyi ari inkunga ya Unicef, handitsweho n'amagambo covax.

Kanseri ni indwara mbi cyane, ni indwara muri iki gihe isigaye ihitana ubuzima bwa benshi. Kanseri kandi yataka ibice bitandukanye by'umubiri yaba ku ruhu, yaba amabere, yaba mu maraso, yaba buri gice cyose, Kanseri birashoboka ko wayirwara niyo mpamvu umuntu aba agomba gukora igishoboka cyose ngo ayirinde.

Ubukangurambaga bugamije kwigisha abantu ko ubwonko bwabo ari ingenzi bityo bakwiye kubwitaho, kenshi hari ibintu abantu bakora bumva ko bisanzwe ariko bikaba byagira ingaruka zikomeye ku bwonko bwabo kandi iyo ubwonko bwangiritse n'umubiri muri rusange uba wamaze kwangirika kuko ibikorwa byose by'umubiri ni ubwonko bubiyobora.

Umugabo n'umugore bahagaze imbere y'amadape abiri rimwe ni iry'igihugu cy'u Rwanda irindi ntabwo riri kugaragara neza, bafite igipapuro cyanditseho ngo twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira.

Mu Rwanda hakoreramo za minisiteri zitandukanye bitewe n'uko buri bikorwa niba ari ibinyabiziga, niba ari ubuzima, niba ari siporo, niba ari uburezi byose ntabwo babishyira muri minisiteri imwe, ahubwo buri kimwe kiba gifite minisiteri yacyo igihagarariye, niyo mpamvu hari minisiteri y'ubuzima ihagarariwe na Nsanzimana Sabin.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, amamashini atandukanye, za mudasobwa ndetse n'amakamera, ibi byose birabafasha igihe bari gusuzuma uko umurwayi amerewe ndetse n'igihe barimo baravura umurwayi.

Inyubako nini cyane yubatswe mu buryo butangaje ku buryo icyumba kirimo hano uhageze ushobora kubona kijya kumera nk'ikimodoka, gifite amadirishya menshi, ndetse kimeze nk'aho gikozwe mu byuma, kuko hari n'ahantu henshi ho gukanda hatandukanye.

Inyubako nziza cyane, ifite imiryango myinshi abantu bakwinjiramo, ku ruhande mu nguni imwe, harimo ivaze, irimo ururabo rwiza, hasi hashashe amakaro meza, asize amarangi y'umweru, ndetse n'igisenge ni umweru; harimo n'amatara menshi, kugira ngo urumuri rwiyongere.

Inyubako nini ifite amabati y'ubururu, yubakishijwe amatafari ahiye, imbere hari agacaca ndetse hakaba n'amabuye, hari icyapa cyanditsemo Huye Isange Rehabilitation Centre.

Inyubako nziza yubatse neza, ni ku bitaro aho ababyeyi batwite baza bakipimishiriza bakareba ko ubuzima bw'umwana uri mu nda bumeze neza ndetse n'ubw'umubyeyi, kandi n'ababyeyi bagiye kubyara, muri iyi nyubako ni ho harimo icyumba babafashirizamo, bityo ubuzima bwabo bakabusigasira

Icyumba kinini cyane gikorerwamo siporo, abenshi duhita muri jimu, haba harimo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye, yaba ari ibyuma baterura, yaba ari utugare banyonga, yaba ari ibyo umuntu ahagararaho akiruka cyane, ibyo byose biba bihari, ndetse n'abashaka kwicara, gukora siporo zose zitandukanye ibikoresho byabo biba bihari.

Muri laboratwari aho abanyeshuri biga ibigendanye n'ubuganga ndetse no gukora imiti, baba bagiye kwigira, aba banyeshuri baje kureba bimwe mu bimera kugira ngo bamenye neza imiti iba ishobora kuba yabikurwamo.

Inyubako yubakishijwe amatafari isize n'irangi ry'umuhondo, yanditseho ko ari ikigo nderabuzima cya Gishweru, hari intebe hanze yicayeho umugabo n'umugore uhagaze imbere y'iyo ntebe, ku ruhande hari umuganga ndetse hari n'abandi barwayi baje kwivuriza kuri iki kigo nderabuzima.

Inyubako nini ifite ubusitani bunini cyane, hateyemo umucaca n'indabo zitandukanye, harimo n'ibintu bihateye by'ibyicungo, aho abantu baza bakicaraho bakirira umunyenga. Ibi bifasha abantu kuruhuka cyane cyane abana bituma bishima.

Inyubako nziza cyane, ifite amakaro meza, ifite amarangi meza, mo imbere harimo n'imitako n'amavase harimo indabo zisa neza, ndetse hariho n'intebe abantu bashaka gutegereza baba bicayeho, mu gihe batarahabwa serivisi baje gusaba.

Mu nyubako nziza cyane hano ni mu bitaro, kuri buri muryango bagiye bashyiraho icyapa kereka abarwayi aho serivisi zitangirwa, ku muryango bakandikaho isuzumiro cyangwa aho bafatira ibizamini mu rwego rwo kuborohereza, bakaba basobanukirwa aho bageze bidasabye kubanza bagira uwo babaza.

Inyubako nziza cyane nini, uko bigaragara ishobora kuba ari nka sacco, cyangwa se ibitaro, hanze bahashyize ibyapa bifasha abaje babagana, kuba basobanukirwa serivisi batanga, kandi hateyemo n'ibiti, harimo ubusitani bwiza cyane, harimo n'agacaca, ku buryo abantu baje babagana baba bahumeka umwuka mwiza cyane.

Icyumba kinini cyane kirimo ibimashini byinshi, byose bicometse ku muriro, byose hagiye harimo igicupa cy'amaraso. Ariya maraso abantu batanga kugira ngo ajye afasha imbabare, kubera ko badahita bayatera abarwayi ako kanya, baragenda bakayabika ndetse bakayashyira ahantu adashobora kwangirika, ku buryo bazayatera abarwayi akiri mazima.

Inyubako nziza cyane yubatse igerekeranye, ifite amarangi meza, imbere yaho hari ibiti n'indabo byiza cyane, harimo abantu benshi kandi kuri iyi nyubako hariho icyapa cyanditseho ko ari ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, hari abarwayi benshi baje kuhivuriza.

Inyubako nini cyane harimo intebe nyinshi ndetse imbere ya buri ntebe hari akameza ku buryo abantu bicaye ku ntebe babona aho barambika ibikoresho byabo, iki cyumba haberamo inama ndetse mu ma kaminuza amwe n'amwe ayo abanyeshuri biga ari benshi bajya bigira na bo mu byumba bimeze nk'iki ngiki.

Mu cyumba cyo kwa muganga hari igitanda umuntu ashobora no guhina akakigira nk'intebe, ku ruhande rwacyo hari n'ibyuma bikoreshwa bapima umuntu uko ameze, yaba ari ukureba uko umutima we uri gutera ndetse no kureba uko amerewe mu mubiri, ku ruhande kandi hari n'amarido.

Icyumba kinini cyane kirimo amamashini menshi, harimo amakamera menshi. Bigaragara ko hakorerwa ubushakashatsi bakoresheje ikoranabuhanga. Ni byiza ko abantu babyigiye aribo babikoresha ndetse n'abandi bari kubyiga bakabikoresha hari ababyize kugira ngo batabyangiza.

Umuganga arimo aratera undi mugabo urushinge, gusa yambaye ga kugira ngo atagira ikibazo amutera, yambaye impuzankano y'akazi ndetse yambaye n'ikarita baba bambaye mu ijosi kugira umubonye bahite babibona ko ari umuganga, abantu benshi batinya urushinge ariko urushinge iyo baruguteye neza umuti urimo ukuvura vuba.

Inyubako nziza yubakishe amatafari hejuru bakasiga irangi, iruhande rwaho hateye indabo nyinshi cyane kandi nziza, baba barazikase neza. Kuri iyo nyubako handitseho amagambo agaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Rwerere.

Kwa muganga, muganga arimo arategura ibyo agiye gukoresha kugira ngo abihe umurwayi we, yaba ari imiti agiye kumuha yo kunywa n'iyo agiye kumutera. Umurwayi nawe araryamye ku buriri, yifubitse ikiringiti, aracyarembye ntago aratangira koroherwa ndetse iruhande rwe hari n'ibindi byuma byinshi bakoresha bamuvura.

Inyubako nziza cyane yubatse neza, ifite amarangi meza ifite isuku, inzugi zaho zisa neza, no hasi aho bagendera harasa neza, n'igisenge gisa neza, harimo imiryango myinshi cyane muri iyi koridoro, bisa nk'aho harimo amacumbi abantu benshi bararamo kandi heza.

Abaganga bane bose b'abagore bambaye imyenda y'akazi isa, bambaye n'udupfukamunwa gusa harimo umwe muri bo washyize umupira wo kwifubika, bahagaze imbere y'inyubako nini y'ibitaro handitse amagambo agaragaza ko ari inzu y'ababyeyi.

Kwa muganga icyumba kinini kirimo ibitanda bibiri, hagati y'igitanda n'ikindi bahashyize aho bashyira rido, igihe hari abarwayi; kugira umurwayi umwe atabona iby'undi murwayi arimo, kuko ari uburenganzira bw'umurwayi kugirirwa ibanga.

Inyubako nini cyane, yubakishijwe ibirahure, mo imbere hari utubati twinshi twose tugiye turiho amarinete bigaragara ko ariho bazicururiza ndetse no ku birahure bagiye bashyiraho ibyapa byereka abantu ko hano ariho bagurira amarinete.

Icyumba kinini giherereye kwa muganga harimo ibitanda byinshi ariko hagati y'igitanda n'ikindi bagiye batambikamo irido kugira ngo buri murwayi ajye amenya ibye cyangwa se bireke no kubangamira undi mu gihe bari kumuvura mu rwego rwo kubika amabanga ye, kuko ari uburenganzira bw'umurwayi kugirirwa ibanga.

Abantu batandukanye bose bambaye udupfukamunwa, bahagaze imbere y'inyubako yisashishishijeho imbere y'aho amapave, aba abantu uko bigaragara bakora muri ibi bitaro. Kuri iyi nyubako handitseho amagambo Isange one stop center, bisobanura ko ariho hatangirwa serivisi zigendanye na Isange kandi ibi bitaro byitwa Kabutare.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo ibikoresho bitandukanye nk'amamashini apima indwara zitandukanye, bimwe bipima mu nda cyangwa mo imbere mu mubiri aho uba utarebesha amaso, bikaba byamenya ibibazo birimo bityo n'abaganga bikaborohera kuba byamenya uko barakuvura.

Icyumba kinini cyane kiri kwa muganga, harimo uburiri, aho abarwayi baryama igihe bari kubavura, harimo ibyuma bikoreshwa ndetse na za mudasobwa, hari ibyo bacomeka ku bantu bari kugira ngo barebe uko mu mubiri mo imbere bameze, hari ibintu byinshi, ndetse hari n'aho batereka imiti, hakaba n'aho batereka ibikoresho igihe hari umurwayi barimo barabaga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi, ndetse buri gitanda hakaba hamanitseho inzitiramibu mu rwego rwo kwirinda malariya, cyangwa se bakaba barara nabi bitewe n'uko imibu iri kurara ibarya. Harimo abarwayi babiri, abandi bisa nkaho basezerewe.

Icyumba cyo mu bitaro kwa muganga, aho abantu barwaye indwara zitandukanye baza bagaca mu cyuma bashaka kureba mu imbere mu mubiri, aho amasoso y'abaganga atareba kugira ngo ibi byuma bibafashe, bityo bamenye neza ibibazo byaba biri imbere mu mubiri byo gutuma umurwayi akomeza arwaye cyane.

Muri hoteri nziza cyane aho abantu baza bakicara igihe bashaka kuganira cyangwa hari ibindi bashaka gupanga, aha hantu bakira neza abantu, baba bafite ibyo kunywa n'ibyo kurya kandi baba bafite n'abakozi b'inzobere mu kwakira abantu neza.

Mucyumba cy'inama abantu benshi bitabiriye bagiye bambaye imipira isa. Bamwe bambaye imipira isa umuhondo abandi nabo bambaye imipira isa umweru bose bafite icupa ry'amazi kugira ngo bakurikire nibumva batangiye gusinzira cyangwa bananiwe banywe amazi kuko birafasha.

Umusore wambaye umupira w'ubururu, ku kaboko ke haziritseho igitambaro cy'umweru, yambaye na ekuteri mu ijosi, arimo aranywa amazi ndetse aracyakomeje no gukora imyitozo. Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kuko ari byiza ku mibiri yacu ndetse kandi tukananywa amazi ahagije.

Umugabo mukuru ari muri siporo yambaye inkweto zifunze n'amasogisi y'umweru n'ikabutura y'umukara n'agapira k'amaboko maremare, arapfukamishije ivi rimwe, irindi arimo ararikandisha ibiganza bye byombi, bisa nkaho agiriye ikibazo mu myitozo yarari gukora.

Kwa muganga umusore umwe wavunitse akaguru ari gukina, hari hariho bande isa ubururu, araje ngo barebe aho ageze akira, none muganga arimo arayikuraho, kugira ngo barebe uko bimeze, bamucishe no mu cyuma, ni biba ngombwa bongere basubizeho bande, ni babona atangiye gukira bayikureho.

Ibikoresho by'ibanze bikoreshwa igihe umuntu ari kwitabara, hari igihe umukinnyi aba ashobora kuvunikira mu kibuga ibitaro bitari aho hafi, bikaba ngombwa ko bamuha ubutabazi bw'ibanze, bityo bakamujyana kwa muganga, si mu kibuga gusa bikenerwa ahubwo ahantu hose hari abantu biba bigomba kuba bihari kuko ibyago bidateguza.

Imodoka zizwi nka ambiranse cyangwa se imbangukiragutabara ivuye kwa muganga yari izanye umurwayi wari urembye gusa ku bw'amahirwe bamugejejeyo akiri muzima, ubu bagiye kuzana undi murwayi bamaze guhamagara ko bikenewe ko nawe azanwa kwa muganga.

Umuntu arimo arasuka amazi mu kirahure, akoresheje ijage nayo y'kirahure, kugira ngo ayanywe, kunywa amazi ni byiza kandi ukayanywa kenshi gashoboka kugira ngo umubiri ubone amazi ahagije, kuko amazi ari ingenzi ku buzima bwa buri wese.

Umukobwa mwiza afite imisatsi miremire yayifungiye inyuma kugira ngo abone uko akora siporo, yambaye isengeri y'ubururu, arimo aranywa amazi buri munsi, yagiye gukora siporo hafi yinyanja kugirango akore siporo anahumeka umwuka mwiza anareba ahantu heza.

Agakarito gafite amabara y'ubururu n'umweru, handitseho n'amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, harimo udupfuko utwo bagurisha, utu dupfuko wadusanga muri farumasi igihe wagize ikibazo, ukaba wakagura ukagapfukaho.

Abakozi bakora muri Croix Rouge bafasha abakinnyi ndetse n'abandi bantu batandukanye guhabwa ubutabazi bw'ibanze, igihe habayeho ikibazo gitunguranye cyangwa impanuka, bityo umuntu akabasha kugezwa kwa muganga agifite ubuzima.

Umugabo munini cyane wubatse umubiri we neza, ahagaze imbere y'ahantu hari ibiryo byinshi bitandukanye, mu rwego rwo kwereka abantu ko n'ubwo wakora siporo uba ugomba no gufata indyo yuzuye, kugira ngo umubiri wawe ugire imbaraga nyinshi kandi ugire n'ubudahangarwa.

Umusore wambaye isengeri, arimo arinanura, ari muri siporo, ari kwerekana uko bakwiye kujya bakora na bo imyitozo ngororamubiri, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ibi ni ingenzi cyane kugira ngo imibiri yacu twirinde indwara ziterwa no kudakora imyitozo ihagije.

Umugabo uri muri siporo wambaye impeta yambaye igikomo yambaye n'ipantaro y'umukara ifite umubiri woroshye arimo arakanda mu ivi rye bisa nk'aho yari agize ikibazo ariko n'ubundi kubera ukuntu akora siporo cyane nibamuha n'umuti arasigaho ubundi akomeje kujya akora siporo nk'uko bisanzwe.

Umukobwa ufite imisatsi myiza cyane yambaye agasengeri kagufi, yambaye n'agakora, nta nkweto yambaye, arunamye, arimo arigorora ari muri siporo, ndetse yakandagiye ku kantu kabugenewe abantu bakoreraho siporo kugira ngo naba ari no gukora siporo aryamye cyangwa se apfukamye ntashikamirwe cyangwa se ngo abe yakwandura bitewe n'uko azikoze aryamye hasi.

Umuntu arimo arasuka amazi mu kirahure akoresheje ijage y'ikirahure, birasa neza, ibi kandi ni ingenzi kuko umuntu byibura aba agomba kunywa amazi menshi cyane ahagije ku munsi, ku buryo litiro ebyiri cyangwa eshatu ushobora kuzirenza, amazi ni ingenzi ku buzima bwacu.

Umugabo arimo aranywa amazi ari mu icupa bisa nkaho yari ari no muri siporo yasoza akumva umwuma amwishe akanywa mazi, kunywa amazi ni byiza ko buri wese abigira umuco kugira ngo ajye agira ubuzima bwiza kandi ibi bituma n'impyiko zikora neza.

Umugabo arimo arakora imyitozo ngororamubiri, akandagiye ku kantu k'ubururu ndetse hagati hari utundi tuntu ari kugenda yunama akadutora kugira ngo agorore umugongo we. Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri ndetse si abagabo gusa n'abagore ndetse n'abantu bakuze bose, bakwiye kuyikora kuko ari myiza ku buzima.

Kwa muganga abaganga bari kumwe n'undi mugabo wabasuye wambaye ikositimu y'umukara, baje mu cyumba cy'abarwayi, ndetse muri icyo cyumba harimo n'abarwayi baryamye, ndetse n'abarwaza, bari kurebera mu kantu kameze nka mudasobwa, harimo umugabo ufite ibintu ari kubabwira, nibyo bakurikiye, barikumva.

Umugabo uri muri siporo, yambaye ikabutura y'umukara, yambaye inkweto z'umweru zifunze, yambaye n'umupira w'umweru, arimo arigororera ku kiraro kiri iruhande rw'amazi menshi niho yarambitse akaguru ku cyuma cyako kugira ngo akarambure neza, siporo ni ingenzi, buri wese akwiye kubigira ibye kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umusore uri muri siporo yambaye isaha kukuboko, yambaye n'inkweto zifunze, ku kaguru ke yashyizeho tatuwaje y'umutuku, ku uburyo umureba ukabona ni ibintu bisa neza. Ari mu myitozo kandi umubiri we yarawubatse kuko akora imyitozo ngororamubiri buri munsi.

Siporo ni ingenzi ku buzima bwa buri muntu wese. Kuko bituma umubiri ugira imbaraga, kandi ntube warwara indwara izo ari zose zibonetse, ziterwa no kuba utakora siporo. Ni byiza ko umuntu wese abigira ibye, kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza.

Agakoresho gafite amabara umukara n'umweru, hasi gafite amapine asa umukara, hejuru hari aho bafata ajya kumera nk'o ku gipiyo naho hasa umukara. Ahandi ni umweru. Aka bagakoresho bagakoresha muri siporo. Siporo ni nziza ndetse bikaba byiza cyane iyo ibikoresho bikenerwa kugirango ikorwe neza bihari.

Abantu babiri umwe ni umuganga yambaye impuzankano y'akazi, undi na we yambaye inkweto zifunze mu kuguru kumwe n'isogisi rimwe, akandi kaguru kariho udupfuko bisa nkaho yagizeho ikibazo, umuganga arimo aramwitaho ari kumuvura, undi na we yatuje kugira ngo arebe ibyo muganga amukorera na we ajye abikora igihe ari iwe mu rugo.

Umuntu arimo arasuka amazi mu kirahure ayakuye mu ijage na yo ikozwe mu kirahure kugira ngo ayanywe. Ni byiza kunywa amazi mu gitondo ubyutse ndetse byaba na ngombwa mbere yo kuryamana na bwo ukanywa amazi. Amazi ni ingenzi kandi ni isoko y'ubuzima.

Gufata indyo yuzuye, ubwo ndavuga bitera imbaraga, ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri, ndetse ugakora siporo, ukanywa amazi menshi ahagije, ni byiza cyane, bituma umuntu agira ubuzima bwiza, ndetse n'umubiri we, ukagira ubudahangarwa.

Croix Rouge ni ikigo gifasha abantu mu kubona ubutabazi bw'ibanze ndetse no gutanga amaraso, abakozi babo baba bafite ibisanduku binini birimo ibikoresho byose byakenerwa mu gihe hakenewe ubutabazi bw'ibanze.

Ibikoresho byinshi cyane bikenerwa n'abakinnyi, harimo amabande, harimo ibipfuko, harimo za pomade bisiga igihe hari ugize ikibazo, kugira ngo bamugabanyirize uburibwe, ndetse hari n'utundi tuntu bakanda tw'utwuma, kugira ngo bagorore imitsi y'amaboko yabo.

Umugabo afite ikintu cy'ubururu, kimeze nk'igisashe, mo imbere harimo urubura rukonje cyane, arimo arabishyira ku nkokora ye, bigaragara ko yagize ikibazo mu nkokora, ibi bifasha cyane mu kugabanya uburibwe, ndetse no gutuma ahantu hatabyimba.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa igihe umuntu ari gukora siporo, hari igifasha umuntu kwiruka, hari ikindi kiba kimeze nk'igare akaritwara, hari ibyuma baterura, hari ibindi basunika, ibi byose bifasha abantu gukora siporo bakagira ubuzima bwiza, ndetse bakagira n'umubiri mwiza.

Siporo ni ingenzi ku buzima. Bitewe nuko iyo udakora siporo, uratangira ukagira ibiro byinshi, ugatangira kurwara indwara zitandukanye. Niyo mpamvu uyu mugore nyuma yo gusobanukirwa ibyiza bya siporo, yahisemo kujya ayikorera iwe mu rugo, ariko akayikora buri gitondo kuko yifuza kugira ubuzima bwiza.

Umugabo munini ufite ibigango bigaragara ko yakoze siporo, yambaye ishanete mu ijosi, yambaye umupira w'ubururu, arimo aranywa amazi. Uyu mugabo uko bigaragara akora siporo nyinshi ndetse akanywa n'amazi. Yita ku mubiri we ni yo mpamvu na we afite ubuzima bwiza.

Inyubako nini hejuru hariho icyapa kigaragaza ko ari ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, baracyari gukora ubwubatsi, hari umugabo umwe uri kubaka n'abandi barimo baramufasha, bagenda bamuhereza bimwe mu byo ari gukenera. Ibi bitaro bivura neza kandi abantu bagakira.

Abanyeshuri babiri b'abakobwa bose bambaye amajire ya croix rouge, bateruye mugenzi wabo ugize ikibazo, bamujyanye kugira ngo bamuhe ubutabazi bw'ibanze mu gihe bategereje ko bamugeza kwa muganga, bamugezeyo atagifite ibibazo nk'ibyo yari afite akimara guhura n'ikibazo.

Abantu benshi bari muri siporo. Harimo ab'igitsina gore n'igitsina gabo. Ni byiza gukorera siporo hamwe n'abandi, cyane ku bantu bagira ubunebwe igihe bumva kwikorana siporo bari bonyine bibagoye. Kuko iyo muri gukorana n'abandi buri umwe atera undi imbaraga, bityo siporo igakorwa neza. Niyo mpamvu dukwiye kujya dukorera siporo hamwe n'abandi.

Ibyatsi byinshi bitandukanye kandi bivamo n'imiti itandukanye ivura indwara nyinshi kandi zikomeye, ni byiza ko tumenya imiti yose ishobora kuva muri ibi byatsi kugira ngo tutazanabipfusha ubusa ahubwo byose inganda zishinzwe gukora imiti zize ziyitunganye maze abantu babone imiti.

Umurima munini uhinzemo ibikakarubamba byinshi cyane n'ibindi biti bikeya. Ibikakarubamba bitewe nuko abantu benshi bamenye umumaro bifite, basigaye babihinga. Kuko igikakarubamba gifite imiti myinshi cyane, kandi yose ikavura indwara nyinshi umuntu agakira cyane cyane indwara zo ku ruhu.

Icupa ririmo amavuta ashushanyijeho igikakarubamba ndetse n'ibindi bihingwa, bigaragara ko amavuta yakozwe, yakozwe aturutse mu gikakarubamba, ndetse n'ibindi bimera bitandukanye. Aya mavuta ni meza ku ruhu rw'abantu benshi, kandi avura n'indwara zitandukanye z'uruhu.

Umugore uhagaze nyuma y'ameza, imbere ye hari amacupa menshi cyane atandukanye apfundikiye, urebye ushobora gukeka ko ari inzoga gusa ni imiti baba bakoze bayikuye mu bimera kandi ivura indwara nyinshi zitandukanye. Hari abarwayi baje bari kumubwira uko barwaye na we akabaha imiti, afite n'abandi bagenzi be bakorana.

Icyatsi gitoshye, gifite amababi atoshye cyane asa icyatsi, ndetse hakaba hariho n'uturabo dusa neza, kamwe muturabo turiho gafite n'utundi tubabi dufatiyeho tw'umweru. Iki cyatsi gikoreshwa bakora imiti ivura indwara zitandukanye.

Amavuta meza akozwe mu bimera gusa aba yabanje guca mu nganda kugira ngo atunganwe neza, ni meza ku ruhu n'abantu barwaye ibiheri. Kuko aya mavuta iyo uyisize neza uruhu rwawe ruba rwiza cyane. Ni byiza ko umuntu wese ajya yita ku ruhu rwe kugira ngo arusheho gusa neza.

Mu nyubako ikorerwa mo ubucuruzi bw'imiti, cyane cyane imiti iba yaturutse mu bimera, bagiye bayishyira mu macupa, avamo amazi n'amaji, gusa bagashyiraho udupapuro twerekana umuti urimo, ndetse n'indwara zivurwa n'uwo muti, ni imiti myinshi cyane bagiye bayishyira mu tubati, kugira ngo abarwayi ni nibaza bahitemo iyo bashaka.

Icyapa cyamamaza icyayi abantu bakora bagikuye mu byatsi bitabaye ngombwa ko bifashisha amajyane ahubwo bakagenda bavanga ibyatsi bitandukanye byose byiza bigakora icyayi kandi icyo cyayi kikaba ari cyiza, kikaba cyanavura indwara zo mu mihogo ndetse no mu buhumekero.

Ibiti byinshi biri mu kinani hezeho imiravumba abantu benshi umuravumba bawukoresha bivura inkorora kandi ukabavura bagakira, imiti myinshi iva mu bimera niyo mpamvu ibimera iyo wamenye imiti ivamo uba ukwiye kubyitaho kugira bitazabura n'imiti ikabura kandi byakabaye biri kuvura indwara zitandukanye.

Ibyatsi byinshi biri mu tuntu tumeze nk'udusahani twinshi dutandukanye, buri bwoko bagiye babishyira mu gasahani katwo. Iruhande hari n'agasekuru k'umweruru n'umuhini basekurisha, hari n'umunzani bakoresha bapima ibyatsi bikorwamo imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye.

Ibihingwa byinshi bitandukanye, higanjemo ibyatsi bifite indabo, harimo ibikakarubamba ndetse n'ibindi, byose biri mu mavaze, ibi byatsi barabihinze, kuko bazi neza umumaro wabyo, kuko ibyinshi muri byo bivamo imiti, kandi ivura neza.

Ibyatsi byinshi bitandukanye bivamo imiti kandi ivura neza, hari ibyimeza ariko hari n'ibyo abantu bamenya ko ari ingenzi cyane kandi bidapfa kuboneka, bikaba ngombwa ko na bo bahitamo kujya babihinga bitewe n'uko babonye ko bigira umumaro mwinshi. Ni byiza kubimenya kugira ngo imiti na yo iboneke.

Mu murima harimo ibiti byinshi ndetse n'indabo, byose bihinze biratoshye bisa nkaho nyirabyo abyuhirira ndetse akanabifumbira kuko bimwe mu byatsi biri muri uyu murima harimo n'ibikorwamo imiti itandukanye.

Icupa ritukura riba ririmo icyo kunywa gitera imbaraga, cyitwa fabu, abantu bumva bacitse intege cyane ababa bari gukora akazi kabasaba imbaraga, bashobora kunywa iki kinyobwa bakumva barongeye basubiranye imbaraga, bagakomeza akazi kabo.

Umusore ukiri muto bigaragara ko yize neza, ari gukora muri laboratwari, aho arimo arasuzuma ibintu bijye bitandukanye, cyane ko baba bagiye bazana bimwe mu byatumwe n'abaganga, harimo nk'inkari, umusarane, igikororwa, kugira ngo barebe niba hari ubundi burwayi umurwayi yaba afite.

Mu murima aho bahinga ibimera bigiye bitandukanye, baba baragiye bashyiramo n'ibyuma kugira ngo bikwiremo kuko nubundi baba bihinze mu mavase, baba baragiye bashyira ubutaka mu mavase maze bagashyiramo ingemwe z'ibyo bimera bashaka guhinga.

Icupa rinini ry'umuhondo rifite umufuniko usa nk'igitaka handitseho n'amagambo yandikishije ibara risa nk'iry'umufuniko. Iri cupa haba harimo imiti kandi imiti ibamo n'imiti iba yarakozwe iturutse mu gikakarubamba ivura indwara zitandukanye.

Ibitunguru n'indimu byose biri mu bintu bivamo imiti myinshi cyane kandi ivura indwara nyinshi cyane cyane izo mu buhumekero, ku buryo umuntu ashobora kuba yari yarembye mwabimuha ariko ukongeramo n'ubuki, akenshi ahita amera neza n'iyo guhumeka byari byanze.

Mu kinani hari imiti myinshi iba yaragiye yimeza, gusa akenshi abantu bamwe ntabwo baba bizi ko ari imiti babibona nk'ibyatsi bisanzwe bakabyahirira amatungo ariko abahanga baba barabimenye baba bazi neza ko ari imiti ndetse bakanayikoresha bivura.

Ku meza, kuri turiya dutambaro barambika ku meza, hariho tangawizi n'indimu, ndetse hariho n'agasahani, kuri ako gasahani harimo itasi irimo, amazi asa umuhondo bisa nkaho ari umutobe, ndetse hakaba harambitsemo n'indimu. Bigaragaza ko ari umutobe bavanze n'indimu na tangawizi, bagashyiramo ubuki.

Indabo ndetse n'amababi n'utubuto tuba twavuye mu bimera, babishyize hamwe kugira ngo babikoremo imiti. Kuko imiti myinshi ikorwarwa yaba ari ibiba barakozemo ibinini, cyangwa iyo kunywa cyangwa iyo kwisiga, baba barafashe imiti iva mu bimera, akaba ariyo bakoresha bakora iyi miti twivurisha.

Icupa ririmo imiti yo kwisiga, ku ruhande hari igikakarubamba bakataguye, bari kwerekana ko imiti iri muri iri cupa ariho baba bagikuye, igikakarubamba gikorwamo imiti myinshi ntago ari iyo kwisiga gusa, kuko hari n'iyo kunywa bakora nayo bayikuye mu gikakaruvamba.

Icupa ry'umweru, ririho akapa k'umweru, gusa kandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, ndetse n'umukara. Icupa harimo imiti ikorwa iturutse, mu gikakarubamba, ikavura indwara zitandukanye.

Icupa ry'amavuta rifite ibara ry'umutuku wijimye, hariho icyapa kiri mu ibara ry'umweru, ariko hakaba handikishijweho nubundi amagambo ari mu ibara ry'umutuku wijimye, hashushanyijeho igikakarubamba n'izindi mbuto.

Uducupa twinshi twose dufite amabara y'umweru gusa hakaba hometseho ibipapuro bifite amabara y'umweru n'andi mabara atandukanye hamwe hariho move, ahandi umuhondo, ahandi shokora, ariko utu ducupa twose harimo imiti yakozwe iturutse mu bikakarubamba.

Umuvuzi wa gakondo yagiye gushaka imiti y'ibyatsi mu binani, kugira ngo aze akore imiti bitewe n'uko hari abarwayi benshi azi ifasha, kandi miti isanzwe yo kwa muganga biba byaranze, gusa ni byiza ko abavuzi ba gakondo bakora ibintu byemewe na Leta, bitewe n'uko iyi miti yo mu kinana igihe ikoreshejwe nabi, ishobora kwica umuntu.

Agakarito kabamo imiti gafite ibara ry'umweru, imbere handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi, ndetse hashushanyijeho n'ibikakarubamba bigaragaza ko imiti iri muri aka gakarito yakozwe iturutse mu gikakarubamba.

Icyatsi cy'umweru gifite utubabi ducye tw'icyatsi, ahenshi hari uturabo tw'umweru, iki cyatsi gikoreshwa mu gukora imiti itandukanye kandi ikavura n'indwara nyinshi, ni byiza ko tumenya imiti iva mu byatsi kuko biradufasha.

Akabati bateretse mu mucaca, karimo amavuta atandukanye, n'imiti iri mu ducupa yo kunywa, bigaragara ko byose baba babikuye mu bimera, aba bantu baje kugira ngo abakiriya baze bagure aya mavuta n'iy'imiti, bitewe n'uko ari byiza ku ruhu no ku buzima.